Umutaka wa MTN ukorerwamo n'umukozi w'iki kigo gitanga serivisi z'itumanaho mu Rwanda, aho batanga serivisi ku baturage, zo kubitsa amafaranga, kohereza amafaranga ndetse no kubikuza amafaranga.

Abantu bagiye gushaka serivise zigiye zitandukanye ku kazu gatangirwamo serivisi za MTN aho haba hari abantu bakoramo batanga izo serivise nko kubitsa, kubikura ndetse no kohereza amafaranga.

Umugabo wambaye ikote rya kaki, akaba afite igishushanyo cya telefoni iri mu gikarito, ari kwereka abaturage ko atsindiye telefoni hamwe na Airtel.

Ahantu hari akazu keza cyane gatangirwamo serivisi zigiye zitandukanye by'umwihariko serivisi za MTN, hakaba haparitse moto bigaragaza ko uyu muntu yaje gushaka izo serivise.

Umugabo ucuruza amayinite akaba ari kumwe n'umusore uri kumwaka serivise zo kubivuza, akaba amaze kumubikurira ari kumuha amafaranga, umusore na we akamanza kuyitegereza ngo arebe ko yuzuye.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe, higanjemo ab'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, bakaba bahagaze bari kwifotoza, aho bari mu nzu itangirwamo serivisi zigiye zitandukanye z'umuyoboro wa Airtel mu Rwanda.

Umukozi ukorera ikigo gitanga serivisi z'imiyoboro y'itumanaho mu Rwanda cya MTN akaba yambaye akajiri, yicaye mu mutaka we aho agenda afasha abantu bagize ikibazo runaka.

Akazu kari mu mabara y'umuhondo, gatangirwamo serivisi zigiye zitandukanye, zerekeranye n'ikigo gitanga imiyoboro y'itumanaho mu Rwanda MTN, kaba kari ahantu harimo umukozi, ugenda ufasha abamugana.

Akazu gatangirwamo serivisi zigiye zitandukanye, zijyanye n'ikigo gitanga serivisi z'umuyoboro n'itumanaho mu Rwanda cya MTN, nta mukozi wako urimo bigaragara ko hari ahantu yanyarukiye.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe biganjemo ab'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, bakaba bari ahantu bari mu nama bambaye imyambaro iri mu mabara atandukanye y'impuzankano aho iri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru.

Ubworozi bw'inkoko busigaye bwarafashe indi ntera aho muri iki gihe hari abantu basigaye borora inkoko barabigize umushinga, bakazihera zikiri ntoya ari imishwi bagenda bazigurisha ndetse izisagutse bakazorora zikagera aho gutera.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe, biganjemo ab'igitsina gore ndetse n'ab'igitsina gabo bakaba baje muri banki gushaka serivisi, aho umuntu agenda bakamuha serivisi zigiye zitandukanye izo ari zo zose yaba akeneye muri banki.

Inyubako itangirwamo serivisi zigiye zitandukanye muri banki, haba harimo uburyo ki wakoresha ukoresheje na telefoni yawe ukabasha kuba wakoresha terivisi z'iyo banki, aho kandi akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri urwego.

Isoko ryaburiyemo abantu benshi cyane bagiye batandukanye, aho bacuruza ibicuruzwa by'amoko yose. Iryo soko rikaba risakariye ndetse rikaba ririmo abantu benshi cyane bagiye batandukanye.

Umugore wambaye ingofero y'umweru akaba yambaye n'itaburiya y'umweru, ari mu nzu aho yambaye neza cyane, akaba ari kugenda atanga serivisi zigiye zitandukanye kubamugana.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe, higanjemo ab'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo. Bambaye imyambaro igiye itandukanye y'impuzankano, iri mu mabara y'umukara ndetse n'ubururu. Bakaba bagenda imbere bose bakurikiye umuntu uri kubakoresha inama.

Uducupa turi mu mabara abiri atandukanye y'umuhondo, aho utu ducupa tuba turimo igiye itandukanye yifashishwa mu kuvura amatungo yabo kugira ngo atarwara akamera nabi cyane.

Umurima uhinzemo amoko agiye atandukanye y'inanasi. Inanasi rero ni bumwe mu buhinzi bumaze gutera imbere cyane mu Rwanda kuko ziteza imbere cyane umuhinzi wazo, binyuze mu buryo bw'amafaranga ndetse n'ibyo kurya.

Muri banki batanga serivisi zigiye zitandukanye ku buryo umukiriya wese uhageze aba yagaruka, iyi rero ni banki iri kwerekana ko ikoreshashwa Mobile Money ku buryo umuntu wese yahakoresha ari iwe mu rugo.

Akabari gacururizwamo ibyo kunywa bigiye bitandukanye, aho kano kabari ari keza cyane, igihe cyose uramutse ukeneye icyo kunywa uragenda bakakiguha hanyuma ukishyura amafaranga akwiriye.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho, zikaba ari inyubako zikunze kuba ziri ahantu mu tubari, aho babacuruza amoko agiye atandukanye y'ibiribwa ndetse n'ibinyobwa, aho umuntu agenda bakamuzimanira icyo ashaka.

Umugore uri muri bale aho bacuruza amoko agiye atandukanye y'ibyo kunywa, aho igihe cyose ubishakiye, ugenda ukicara hanyuma akakubaza ibyo ukeneye akakikuzanira, mukagisangira mu mutekano.

Mu tubari haba hakoramo abantu benshi bagiye batandukanye aho ugeramo uka ubabwira icyo ushaka hanyuma ababishinzwe bakakikuzanira aba ngaba baba ari ingenzi cyane kuko batuma umuntu abasha kwishima.

Icupa riri mu mabara y'umutuku rikunze kuba riri ahantu mu tubari haba harimo amoko agiye atandukanye y'ibyo kunywa aho iki cyo kunywa kiba gihenze kigura amafaranga ibihumbi bitandatu.

Udukoresho bifashisha batwaraho amagi tuba turi ahantu mu maduka acuruza amagi ku buryo dutwara neza amagi akaba atangirika ntagire ikibazo na kimwe aba, akaguma ameze neza.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere aho iyo nyubako iteye amarangi y'umweru ku bikuta, imbere hakaba hari icyapa kiranga ko bacuruza anteni zitanga itumanaho.

Inzu y'iduka icururizwamo amoko agiye atandukanye y'ibicuruzwa, aho aba harimo umuntu uhoramo utanga serivisi nziza, ku buryo umukiriya wese uhageze bamwakira bakamuha ibyo yifuza.

Iduka ricuruza amoko wagiye atandukanye ku buryo ikintu cyose waba ushaka waza ukakibariza hano, haba harimo sositomate z'amoko yose ndetse n'ibindi birungo bikenerwa mu guteka.

Umuntu wakoze iduka rikaba ricuruza amoko agiye atandukanye y'amavuta, aya mavuta rero akaba ari meza cyane kuko bayifashisha bari guteka, bakaranga cyangwa bateka agafiriti.

Mu iduka ahacururizwa ibintu byinshi bigiye bitandukanye, aho haba harimo abacuruzi babigize umwuga ku buryo ikintu cyose umukiriya aje gushaka, bahita bakimuhereza kandi bamuganiriza neza.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho itangirwamo serivisi zigiye zitandukanye, cyane cyane serivisi z'ubudozi bw'imyenda, aho ugenda bakakudodera umwenda wose waba wifuza.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho isakaje amabati agiye atandukanye. Ifite ibikuta biri mu mabara y'umweru ndetse bikaba bigaragara ko ari urusengero rumwe mu zo bafunze.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bwa kijyambere kandi bugezweho, zikaba ari inyubako z'urusengero ziba ziri ahantu mu mujyi, ndetse no ku muhanda ku buryo padiri abasha kuzana ikinyabiziga ke akaba yakwinjira akabwiriza.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho aho ifite udusengero twinshi, akaba ari inyubako ya Diyosezi y'Abagatulika ya Kabgayi, iherereye mu Karere ka Muhanga, Intara y'Amajyepfo.

Umugabo wambaye imyambaro ya gisirikare akaba yagiye ahantu mu rusengero, ari gusuhuzanya na musenyeri wambaye ikanzu y'umweru icishijemo n'umuronko w'umutuku bigaragara ko ari mu Gihugu cy'u Rwanda.

Abantu benshi bagiye batandukanye bakora imirimo y'ubukorikori, aho haba higanjemo abagore n'abakecuru, bakaba bamaze kuboha uduseke, bakaba batujyanye mu rusengero ngo bajye batwifashisha bari gutura.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, akaba ari inyubako y'urusengero rw'Abaroma, ikaba ifite amatafari ahiye ndetse isakaje n'amabati y'umutuku, ikikijwe n'ibiti birebire.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho aho ifite umusaraba ku gasongero, yubakishije amatafari ahiye bigaragara ko ari urusengero, abakirisitu bari bari gusenga, none bakaba batashye.

Inyubako nziza cyane y'urusengero aho mo imbere harimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa kugira ngo amateraniro agende neza, harimo atatuti, ameza ndetse n'ibikoresho bifashisha bari gutura.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye bateraniye hamwe ku rusengero bari kwifotoza biganjemo ab'igitsina gore ndetse n'ab'igitsina gabo harimo kandi abera ndetse n'abirabura, bakaba bose bambaye neza.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe bari mu rusengero rw'abagatulika, bakaba biganjemo ab'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo. Imbere hakaba hari umupadiri ndetse n'abahereza bambaye amakanzu yera.

Umupadiri uri ahantu mu rusengero, akaba ari gukomera abakristu misa. Ababwira ngo bakristu bavandimwe nimugire urukundo nkuko yesu yakunze abari mu isi bose rigatuma aza no kubitangira.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe mu rusengero, bakaba ari abayisilamu, imbere hakaba hari umuyobozi wabo wambaye amakositimu ari kugenda ababwira ko bagomba kugira umutima mwiza bagafasha abakene.

Umuntu uri muri sale itangirwamo serivise zigiye zitandukanye aho ari umusirikari, akaba ari kumwe n'undi mugabo w'umuyobozi aho ari kumuha igihembo kubera ukuntu yitwaye.

Hoteli ni zimwe mu nyubako ziba ari nziza cyane aho haba hari ibintu byinshi cyane biteye amabengeza ndetse haba hari na pisine aho abantu bajya kogera maze bakamererwa neza cyane.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, akaba ari inyubako ya hoteli, hakaba hacururizwamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, aho uramutse ukeneye ikintu icyo ari cyo cyose waza ukabariza ahangaha.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho ndetse bw'amayobera, yubakishije amatafarihiye, aho iteye amarangi y'umweru ku bikuta. Ifite inzira ishashemo amapave ndetse ikaba ifite n'ubusitani bwiza cyane.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bigaragara ko ari hoteli, ikaba imanitsemo ifoto y'umukuru w'Igihugu ku rukuta, hakaba harimo n'umugore wakira abaje bagana iyo hoteli.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, akaba ari inyubako ya hoteli, aho yakirirwamo abantu benshi bagiye batandukanye bitewe n'aho baturutse ndetse na serivisi baba bashaka.

Igitanda cyiza cyane gikunze kuba kiri ahantu mu mahoteli, aho umuntu agera agiye gushaka serivisi z'icumbi bakakimushyiraho, hanyuma akishyura amafaranga bitewe n'aho hoteli iherereye ndetse n'ibyo bamwakirije.

Hoteli ziba zifite ibyanya runaka biba bishimishije cyane aho hari pisine ikozwe mu buryo bw'uruziga abantu bajyamo bakoga maze bakumva uko ubuzima bwabo bumeze bakishima bakanezerwa.

Hoteli ni ahantu bakunda kwakira ababagana bakabaha serivisi zigiye zitandukanye by'umwihariko serivisi zijyanye n'aho kurara, icyo kurya ndetse n'icyo kunywa bakakuzimanira bitewe n'amafaranga wabahaye.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, akaba ari inyubako ya hoteli, aho hakirirwa abantu benshi bagiye batandukanye, bashaka serivisi nyinshi, hari kandi n'ubusitani bwiza cyane.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe muri hoteli, bakaba baje mu gikorwa cy'inama, hoteli rero iba ifite ahantu heza abantu bicara ndetse hateye ubwuzu, ku buryo kuhicara biba bimeze neza cyane.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba ari inyubako ya hoteli, aho ifite ibikuta biteye amarangi y'umweru, harimo n'ibitanda byiza cyane, bakunze gucundikiraho abantu baje gushaka amacumbi.

Inyubako nziza cyane zubakwe mu buryo bugezweho bwa kijyambere akaba ari inyubako z'amahoteli aho umuntu wese ukeneye serivisi agenda akinjiramo hanyuma bakamwakira neza akamererwa neza.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere akaba ari inyubako ya hoteli aho mo imbere hakorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye cyane cyane nk'ibikorwa byo kwakira abashyitsi.

Muri hoteli haba hari amacumbi menshi agiye atandukanye aho igihe cyose uhageze uri gusaba icumbi bakujyana mu cyumba kiza cyujuje ibya ngombwa kirimo amoko agiye atandukanye y'ibitanda ndetse n'imisego.

Isoko ricururizwamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye aho hari umugabo uri gupakurura imyenda ndetse n'inkweto abishyira ku gatanda, hirya hari indi myambaro myinshi cyane igiye iri mu isoko.

Isoko ryahuriyemo abantu benshi cyane bagiye batandukanye, higanjemo ab'igitsina gore, bakaba bafite poivuro mu bitebo ndetse n'izindi mboga zigiye zitandukanye, ku buryo uramutse uzikeneye waza ukazihahira hano.

Inyubako itangirwamo serivisi zigiye zitandukanye bigaragara ko ari inyubako y'isoko, harimo abantu benshi baba baje gucuruza n'abaje kugurisha, harimo imyambaro myinshi igiye itandukanye ku buryo iyo washaka yose uyibona byihuse.

Umugore uri ahantu bigaragara ko basaruye ibigori bakaba babisutse kuri shitingi ari amahundo, bakaba bari kumuhereza telefoni ngo ashyiremo nimero za telefoni maze bazajye bamushakira ho.

Ku isoko haba hari amoko agiye atandukanye y'ibicuruzwa aho dusangamo n'amoko menshi y'urusenda, aho umuntu agenda akabaza umucuruzi urusenda ashaka hanyuma akarwishyura, haba harimo n'abandi bantu benshi cyane mu isoko.

Isoko ricururizwamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye aho umuntu wese akeneye guhaha anyarukira muri iri soko mukamuha amoko agiye atandukanye y'ibicuruzwa akeneye kandi ku mafaranga make cyane.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye bahuriye mu' isoko, harimo abaje guhaha ibintu byinshi bigiye bitandukanye by'umwihariko nk'imyenda, aho bose bahatunze bari kugenda bacaguramo iyo bashaka kugira ngo yishyure.

Isoko ryahuriyemo abantu benshi cyane bagiye batandukanye, aho iri soko ricuruzamo imbuto nyinshi cyane cyangwa se hakaba hahurira abantu bagenda badandaza ibicuruzwa ku muhanda by'imbogakararangura.

Muri resitora haba harimo amoko agiye atandukanye y'ibiribwa, si ibyo gusa kuko haba hari inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere aho zikurura abantu bose baje kuhashaka serivise.

Umuntu uri kugenda ku igare akaba ahetse umufuka ndetse n'akabido, yambaye ingofero ndetse n'agashati yahinnye amaboko, akaba ari ku kinyabiziga k'igare mu muhanda wa kaburimbo.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo n'amoko agiye atandukanye y'ibinyabiziga, aho hari kugendamo ikinyabiziga cy'igare gitwawe n'umushoferi w'umuyonzi, akaba ahetseho undi musaza, uwo muhanda ukaba ukikijwe n'ibiti.

Abantu bari kugenda mu muhanda wa kaburimbo bari kuri moto, bigaragara ko bishimiye cyane, umuhanda wa kaburimbo rero ni kimwe mu bikorwa byashyizweho na Leta y'u Rwanda kugira ngo borohereze abantu mu ngendo.

Umugabo ugiye kwicara kuri moto wambaye ikote ry'umutuku ndetse akaba yambaye na kasike y'umutuku, agiye kwicara kuri moto bigaragaza ko agiye kuyifashisha atembera kubera ko yayiguriye.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye aho hari moto itwawe n'umugabo ari kugenda ari umwe, hirya ye hari akayira k'abanyamaguru ndetse hari n'inyubako nziza cyane za kijyambere.

Inyubako nziza zubabakwe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho izo nyubako imbere yazo haparitse moto ndetse hakaba hari n'imiryango igiye ifunguye bigaragara ko ari aho bacururiza moto.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo n'ikinyabiziga cya moto kikaba gitwawe n'umugabo ndetse ahetse mugenzi we, inyuma hari undi muntu uri kugenda n'amaguru ndetse hepfo hari inzu z'ubucuruzi.

Umuhanda wa kaburimbo uri mu mabara y'umukara, aho haciyemo n'akarongo k'umweru, hakaba hari kugendamo ikinyabiziga cya moto gitwawe n'umugabo ahetse umugore, bakaba bambaye kasike zifite amabara atandukanye.

Abantu bitwa abanyonzi ni abantu batwara ibinyabiziga by'amagare, batwara abagenzi aho babageza aho bagiye hose ku mafaranga make kandi byihuse maze bakaba babona icyo kurya.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe higanjemo ab'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, bakaba bahuriye hamwe ku isoko ricuruza ibinyabiziga bya moto, aho buri wese ari kugenda yihahira bitewe n'ubushobozi afite.

Moto iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo itwaye abagabo babiri, bakaba bari kugendamo hirya hari umuntu w'umukobwa uri kugenda n'amaguru, imbere hari inyubako nziza cyane z'ubucuruzi.

Umumotari uri kugenda mu muhanda wa kaburimbo atwaye moto akaba yambaye kasike y'umweru ndetse n'ikote rijya gusa umweru, iyo kasike inyuma irasa umutuku, moto rero ni ikinyabiziga kihuta cyane.